Iki ni ikigo cya nasari kigaho abana bagiye batandukanye, ku kigo inyuma ku bikuta hagiye hashushanyijeho udushushanyo twinshi tugiye dutandukanye, aho hariho igishushanyo k'ipusi, ik'imbwa n'ibindi.

Ahantu hari abana batoya bambaye impuzankano ndetse n'utuntu tumeze nk'udupapuro bambaye ku mutwe, hari abarimu bashinzwe kwigisha aba bana, imbere yabo hari ikigo cya nasari aba bana bigiramo.

Ni ibishushanyo by'abantu babiri ubona bameze nk'aho ari abasirikare bakaba bose batunganye imbunda, harimo igishushanyo kiri mu ibara ry'umukara ndetse hakabamo n'ikindi kiri mu ibara ryenda kumera icyatsi, ubu bukaba ari uburyo bwiza abarimu ba nasari bakoresha bigisha abana batoya.

Aana bari hanze ku kigo cyabo cy'aho biga kuri nasali, bakaba barimo bakina, hagaragara amashuri bigiramo ndetse hari n'ikigega gihuza amashuri abiri yombi, kijyamo amazi.

Ahantu ubona hahariwe gushyirwa ibikinisho abana biga mu kiburamwaka bakoresha kugira ngo bibashe kubafasha kuruhuka ndetse no kubakangura ubwonk. Hari abantu bahazanye abana babo baje kugira ngo bishimishe.

Ikigo cy'amashuri abanza kizwi nka pirimeri kikaba cyubatse mu nyubako nziza cyane, imbere yacyo hakaba hateye igiti kiriho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Agakoresho ubona ko kabaje mu mbaho kakaba kariho akantu kazingiyeyeho kameze nka metero k'umweru kandidikishijeho imibare iri mu ibara ry'umukara, iyi mibare ikaba yigwa n'abana biga muri pirimeri cyangwa se amashuri abanza.

Ni mucyumba cyiza cy'ishuri rya primairi, ubona ko ari ishuri ryiza cyane, ku bikuta hagiye hamanitse udushushanyo twinshi tugiye dutandukanye ndetse harimo ameza azengurutswe n'intebe bigaragara ko ari aho abana bigira.

Ni igishushanyo kiriho abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano ubona ko barimo baratoragura imyanda hasi bayishyira muri puberi yabugenewe, imbere y'ishuri hakaba hari igiti kinini cy'inganzamarumbu, iki gishushanyo kikaba gikunzwe gukoreshwa mu bitabo byinshi by'abana biga mu mashuri abanza.

Mu mashuri menshi ya pirimeri ndetse n'amashuri ya segonderi tugiye dusanga harimo ibibaho abarimu bifashisha bandikaho kugirango ngo abanyeshuri bakurikirane, aha ngaha ni muri pirimeri na ho hakaba hari ikibaho cy'umukara abarimu bandikaho, hasi hameze nk'aho hadasimase ahubwo ari ibitaka.

Aha ni ku ishuri rya pirimeri cyangwa amashuri abanza hakaba hari ibyicungo abana bajyaho kugira ngo babashe kuruhuka mu mutwe, hahagaze abantu bambaye imipira y'imihondo ndetse umwe afashe kuri icyo cyicungo, icyo kicungo giteye ahantu mu byatsi inyuma yabo hari inzu ihari yubakishije amatafari ahiye.

Ibikoresho byose byifashishwa n'abana biga muri pirimeri mu gihe umwarimu yabahaye umukoro wo gushushanya. Hariho ibishushanyisho bya kereyo, hakabaho gome ndetse agacongesho. Hariho amarate ndetse hariho n'umukasi yifashisha arimo agegena utuntu twe neza. N'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Ni ku kigo cya pirimeri kizwi nk'amashuri abanza aho hari utwana twinshi turimo turakina mu mbuga y'icyo kigo, hari abana buriye ikintu gihari kimeze nk'igiti aho abandi bicaye ku muryango barimo babarebera.

Ni mu cyumba ubona ko harimo abantu babiri bahahagaze, umwe akaba ari gusasa uburiri, undi amuri imbere ndetse iruhande rwe hari n'akabwa gahari, bikaba bisa n'aho ari ibishushanyo byifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza.

Ahantu ubona ko hubatse ibigo wagirango ngo ni iby'amashuri, ndetse nk'uko bigaragara bikaba ari ibigo by'amashuri ya primaire ariyo mashuri abanza. Hari umugabo wambaye neza ufite mikorofone mu ntoki ndetse na telefone ngendanwa, bisa nk'ahoa hari ikiganiro ari kuganiriza aba bana b'abanyeshuri baje kumutega amatwi.

Abanyeshuri biga mashuri yisumbuye, bakaba bambaye impuzankano, aho batatu muri bo ubona ko ari umwana umwe w'umukobwa uri kwandika ku gakayi afite, abandi babiri barakurikiye, bisa nk'aho ari ikintu cy'ingenzi ari kubandikira.

Mu bigo bya segonderi hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda usanga haragezemo ikoranabuhanga aho abanyeshuri basigaye bigira ku makomputa, aha hakaba hari abanyeshuri bambaye impuzankano aho buri munyeshuri wese afite kompiyuta ye ndetse buri ku meza hakaba hateretseho agacupa k'amazi y'Inyange.

Ahantu hateraniye abanyeshuri bo muri segonndairi, bambaye impuzankano zigiye zitandukanye, bakaba bicaye munsi y'ibiti byiza, ubona ko bisa nkaho hari ikintu bitabiriye kandi gikomeye cy'ingirakamaro.

Ni abanyeshuri ubona ko biga muri segonderi, bakaba bambaye impuzankano bari mu ishuri buri wese yicaye ku ntebe ye imbere ye hari ameza, hari abafite impapuro ndetse n'amakayi, ubona ko bishimye cyane barimo baraseka.

Muri sale nini y'ikigo cya segonderi aho harimo abanyeshuri benshi bateraniyemo bambaye impuzankano y'ishuri, imbere yabo hakaba hari umwana w'umukobwa ufite mikorofone ari gusa nk'aho hari ibintu ababwira.

Umwana uhetse baga ubona ko asa nk'uvuye ku ishuri cyangwa se ari ku ishuri, akaba ari guhoberana n'umubyeyi bisa nk'aho ari mama we, uyu mubyeyi akaba yambaye agapira k'umweru karimo uturongo tw'umukara, inyuma ye hari undi munyeshuri uhetse baga ndetse haragaragara n'abandi bantu bari kugenda.

Ahantu hari inyubako nziza ubona ko yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba isize amarangi y'umweru. Mu bigaragara ni uko ari ikigo cy'ishuri runaka cyangwa se ikigo cyigisha imyuga. Mu kayira gakozwe mu mapave, harimo abantu bari kugendamo batandukanye ndetse imbere y'icyo kigo hari ubusitani bwiza.

Ahantu hameze nko mu kigo cy'amashuri, kikaba ari icyumba kirimo intebe ndetse n'ameza byicarwaho n'abanyeshuri mu gihe barimo bakurikirana amasomo, harimo abantu babiri bahicaye ndetse ku muryango haragaragara abandi bantu bahagaze.

Abantu bambaye amakanzu yambarwa n'abanyeshuri ba kaminuza basoje kwiga kaminuza buri wese akaba afite seritifika ye mu kiganza, bisa nkaho nyuma y'uko bari bahawe seritifika yabo bafashe akanya kugira ngo bafate ifoto y'urwibutso.

Abanyeshuri benshi batandukanye bambaye imyenda cyangwa se amakanzu yambarwa n'abantu basoje kwiga kaminuza, bakaba bicaye ahantu mu mahema bisa nkaho ari umunsi wabo w'ibyishimo, umunsi w'amateka basoje amashuri yabo, urabona ko bishimye rwose.

Abanyeshuri ba kaminuza bambaye imyenda bambara iyo basoje kwiga amashuri yabo, bajugunye ingofero zabo hejuru mu kirere bisa nk'aho bari kwishimira uyu munsi w'amateka mu buzima bwabo.